Iki ni igikoresho cyifashishwa batera umuti mu myaka, ibirayi, ibishyimbo, ndetse n'ibigori, ikaba ari imashini yoroshye kuba yakoreshwa, igihe bari kuyiteresha umuti mu myaka.

Iki n'ikiribwa kiri ku isahani giteguye neza dukunze kwita ifi, giteguye neza kiribwa gitetse ndetse kikaribwa mu buryo bwokotswa.

Umurima wasaruwemo ibigori, igihingwa ngandurarugo. Aha akaba ari cyo bita igikenyeri bikaba ari ibigorigori byasigaye bihagaze igihe bari basaruyemo ibigori.

Ibirayi igihingwa ngandurarugo， ndetse n'igihingwa ngengabukungu， kikaba gihingwa mu bice by'imisozi，ndetse n'amakoro，kikaba ari igihingwa， iyo wakitayeho kizana umusaruro.

Uyu ni umurima urimo igihingwa cy'amajeri akaba ari igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba ari n'igihingwa ngengabukungu. Aho kikaba gikoreshwa mu buryo butandukanye gishobora kuribwa ari imisogwe cyangwa se mo kimwe kikumishwa kikaba cyakorwamo ifu cyangwa kigatekwamo urunyogwe.

Iki ni igihingwa ngandurarugo, ndetse kikaba n'igihingwa ngengabukungu. Uru rukaba ari urubuto barya ari rubisi bita itunda.

Iki ni igihingwa k'ibirayi, kikaba ari igihingwa ngandurarugo, ndetse ni igihingwa ngengabukungu, cyo mu bwoko bw'ibinyabijumba. Ni igihingwa kiribwa gihiye, ndetse kikaribwa cyokeje.

Iki ni igihingwa ngandurarugo ndetse ni igihingwa ngengabukungu, ku muntu wakigize wagishoyeho amafaranga akagihinga cyane, iki ni igihingwa kikaba n'urubuto cyangwa se mu bwoko bw'imbuto bita marakuja, ruribwa ari rubisi ndetse kikaba n'ibiribwa gishobora kurinda indwara.

Uyu ni umuma urimo igihingwa ngandurarugo ndetse n'ingengabukungu kitwa amashaza, cyifashishwa mu kukirya kandi kikaribwa mu buryo butandukanye, ari mabisi ndetse yaba yumye akaba yasheshwamo ifu.

Igihingwa cy'ibirayi; cyifashishwa mu gutekwa, kikaba cyaribwa cyokeje, cyangwa se gitetse, kikaba ari igihingwa ngandurarugo.

Aya ni amagi, ikiribwa cyongera intungamubiri. Ndetse kikaba ari ikiribwa kirinda indwara. Kikaba ari ikiribwa gishobora kuribwa mu buryo butandukanye, kuba warinywa ari bibisi, kuritogosa mu mazi, ndetse no kuritekamo umureti.

Iri ni itsinda ry'abantu ryishyize hamwe. Riri mu murima w'amashu, kikaba ari igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba ari n'igihingwa ngengabukungu, kuko uwagihinze ntabwo agihinga ari icyo kuribwa gusa, agihinga ari n'icyo kujyana ku isoko kikaba cyamwinjiriza amafaranga.

Avoka, ikiribwa ndetse kikaba n'igihingwa ngandurabukungu ,kikaba cyifashishwa mu mafunguro atandukanye, ndetse kikaba cyifashishwa mu biribwa bitandukanye.

Ubu ni ubuhinzi n'ubworozi, iyi ni imashini yifashishwa mu kuhira imyaka igihe cy'izuba, ikaba yifashishwa mu kuvoma amazi mu gice cya kure, nanone ikuhira imyaka mu bice bitandukanye, yifashishwa n'abahinzi batuye ahantu ku buryo kubona imvura biba bigoranye.

Inyubako y'ubucuruzi icuruzwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyampeke bitandukanye aha bacuruza:ibitoki ibigori, amasaka ndetse n'amafu y'ubwoko butandukanye bw'ibikoma: kawunga, ubugari n'ibindi bikoresho bitandukanye bikenerwa mu rugo.

Iyi ni inyubako ibikwamo ibiribwa ,ndetse n'abacuruzi bakaba bahurizamo ibicuruzwa ndetse n'ibihingwa, cyane cyane ibyeze bigiye kuribwa ndetse byitegurwa kuba byaribwa. Aha ni n'inyubako nanone ishobora kugurishirizwamo ibiribwa bitandukanye.

Iyi ni imashini iri kuhira ibihingwa ku buso bunini cyane， ndetse butandukanye，ikaba yifashishwa mu gihe ahantu hari ibihingwa， nta mazi ari aho hafi，ku buryo abantu bakoresha ibikoresho bitandukanye bavomera. Iyi ni imashini yifashishwa muri ubwo buryo，buhira imyaka.

Amashaza cyangwa se urunyogwe, n'igihingwa ngandurarugo, kikaba na kimwe mu binyampeke biribwa bitetse, kika kiribwa; ku birarayi, ku muceri ,ndetse no ku bindi biribwa bitandukanye.

Igisheke ni igihingwa ngengabukungu , gishobora kuribwa ari kibisi gutyo kimeze , cyangwa se kikaba cyajyanwa mu nganda kigatunganywamo isukari yo kurya cyangwa yo kunywa mu gikoma.

Aba ni abahinzi bari mu murima w'imyaka, iki kikaba ari igihingwa kizwi ku izina ry'inyanya, inyanya ni zimwe mu mbuto cyangwa zimwe mu biribwa byifashishwa, mu kongera uburyohe bw'ibiribwa ndetse bigatukura.

Uyu ni umuhinzi wikoreye ifumbire ry’imborera, akaba agiye kuryifashisha mu kurishyira mu murima kugira ngo abone uko ahinga imyaka itandukanye. Iri rikaba ari ifumbire ryifashishwa cyane cyane ahantu haba ubutaka busharira, rikaba ryunganira ifumbire ry’imvaruganda.

Ibi ni ibirayi bikaba ari ikiribwa ngandurarugo, ndetse kikaba n'igihingwa ngengabukungu, kuko kidahingirwa kurya gusa, ahubwo gihingirwa no kuba cyakwinjiriza amafaranga umuhinzi. Ni igihingwa kibarizwa mu binyabijumba ndetse no mu binyamafuha.

Iki ni igihingwa cy'ipapayi akaba ari ikiribwa kiri mu bwoko bw'imbuto zirinda indwara ndetse zubaka umubiri. Ni ikiribwa cy'ingandurabukungu ndetse ngengabukungu.

Aba ni abahinzi bari gusarura igihingwa cy'icyayi, nacyo ni icyayi bari gusarura kigaragara ko cyeze, kifashishwa mu gukoramo ibinyobwa bitandukanye, ndetse bakaba banakinywa ari icyayi ubwacyo.

Aba n'abahinzi n'aborozi bari gushyira ifumbire y'imvaruganda ku bihingwa ku gihingwa cy'ibigori kugira ngo babashe kongera umusaruro .Aha bari gushyiraho imvaruganda izwi ku izina rya ire.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima w'ibirayi, akaba ari kubikorera, kugira ngo arebe niba, hari ibyapfuye birimo, ndetse hari ni ibitariho itaka, yabihereza itaka kugira ngo bizere neza.

Isoko aba abacuruzi bavuye kurangura ibicuruzwa bitandukanye, bakaba babijyanye kubigurishiriza hirya no hino mu bice bitandukanye, aha hacururizwa ibikoresho ndetse n'bindi byinshi cyane bitandukanye bikenerwa mu ngo.

Uru ni urubuto rw' avoka. Kikaba igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba n'igihingwa ngengabukungu. Kikaba ari kimwe mu bihingwa umuhinzi wagihinze kimuzanira amafaranga mu buryo butandukanye, ndetse kikaba kinagira intungamubiri ku mwana wese akenera ndetse n'umuntu mukuru.

Iki ni igihingwa cy'ibigori, kikaba ari igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba n'igihingwa ngenga bukungu, kubera ko kidahingirwa kuribwa gusa kikaba gihingwa, mu buryo bwo kuba cya kwinjiriza amafaranga n'umuhinzi wa gihinze, ni igihingwa cyagereranyirizwa mu binyamisogwe ndetse no mu binyamafufu.

Iki ni igihingwa ngandurarugo kizwi ku izina ry'igitoki, ko ari igihingwa gishobora kuribwa gitetse, kikaribwa gihiye n'umuneke, ndetse kikaba cyanakorwamo umutobe.

Ubu ni ubwanikiro bw'imbuto zitandukanye, akaba ari ibigori byanitse kugira ngo bibashe kuma mu buryo bwo kuba babikoramo ifu cyangwa bikaribwa bikabasha kuba byabikwa neza.

Aba ni abahinzi bakaba n'abakozi bari gusarura icyayi. iki cyayi gikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye birimo kukinywa, ndetse bakaba banagikoramo, ukaba wanagikoramo ifu wifashisha ushyira mu mazi kugira ngo ukore icyayi.

Avoka kimwe mu bimera byifashishwa mu kuribwa bibanje kuba byashyirwa ahantu bigahunikwa. Kandi ni ikimera cyifashishwa na none mu kuba cyaribwa mu buryo bwo kongerera umubiri intungamubiri. Kandi kikaba na kimwe mu mbuto ziribwa kugira ngo zitume umuntu agira umubiri mwiza.

Uyu ni umuhinzi n'umworozi uhinga igihingwa cy'amatunda, y'amatunda mato y'umukaraba, kikaba ari igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba n'igihingwa ngengabukungu, kiri mu mbuto zirinda indwara ndetse zikaba zubaka umubiri, kinjiriza uwagihinze ari yo mpamvu kiba igihingwa ngengabukungu.

Aba ni abahinzi bari bari guhinga ibiti by'ikawa mu mirima itandukanye, ndetse bakaba bari bari no gukorera izari zihinzemo.

Umwumbati ni igihingwa ngandurarugo, kikaba cyifashishwa mu rugo . Kikaba kiribwa ari kibisi, gitetse cyangwa se kikaba cyakumishwa , kigakurwamo amafu y'ubugari aribwa mu buryo butandukanye.

Iki ni igihingwa cyitwa gaperi kikaba ari igihingwa kiribwa, yaba imbuto zacyo ndetse n'amababi akaba ari umuti ukunze kuvura abana inkorora, ndetse kikaba Ari n'igihingwa gishobora guteza umuhinzi imbere mu buryo butandukanye akigurisha mu gihe amatunda yacyo yeze.

Ni igiti cy'ikawa, igihingwa ngengabukungu. Kikaba ari igihingwa gikorwamo ibintu bitandukanye, ariyo amajyane y'ikawa ndetse kikaba ari n'igihingwa cyoherezwa hanze y'igihugu, kugira ngo kizane amafaranga.

Ibijumba, igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba ari n'igihingwa ngengabukungu. Cyifashishwa bakirya mu buryo butandukanye burimo ifiriti, kugitogosa ndetse no kugihekenya, kukirya ari kibisi.

Iki ni ikiribwa kizwi ku izina rya wotameroni, kiri mu bwoko bw'imbuto kikaba kiribwa ari kibisi, ndetse kiri mu biribwa byoroshya mu nda, kandi kikaba kiri no mu mbuto zirinda indwara, zikaba zongera n'intungamubiri.

Iki ni igihingwa cyitwa amateke. Imateke ni igihingwa ngandurarugo. Kiribwa mu buryo bwo gutekwa, ndetse akaba ari n'ikiribwa kibarirwa mu binyamafufu.

Iki ni igihingwa kizwi ku izina ry'ikireti, kikaba ari igihingwa cyifashishwa mu gukora umuti wica udukoko dutandukanye ndetse ku myaka ndetse no ku matungo.

Iyi ni avoka . Ziri muri zimwe mu mbuto ziribwa zikaba ziri mu mbuto ,mu birinda indwara ndetse no byongera intungamubiri.

Ikii ni igihigwa ngandurarugo ndetse ngandurabukungu. Igitoki cyifashishwa kikaribwamo imineke ,ndetse kikaba cyanakorwamo umutobe n'inzoga yo bakunze kwita urwagwa.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima w'urusenda, uru akaba ari urusenda, igihingwa kizwi ku izina ryo kuba cyakongera apeti, cyangwa cyo kuba cyakongera uburyohe bw'ibyo kurya.

Izi ni inkoko zikaba ari ubworozi bushobora guteza imbere nyira bwo bukaba bwifashishwa mu gutera amagi, kwarura abashwi, ndetse zikaba zanaribwamo n'inyama. Izi nkoko Zibarizwa mu nyamaswa z'ibiguruka.

Iyi ni inyubako yifashishwa n'abahinzi bahunikamo imyaka, akaba izwi ku izina ry'ikigega cyangwa se ubuhunikero. Yifashishwa n'abahinzi banikamo imyaka, ndetse banabikamo imbuto zo kuzatera, cyangwa se guhinga.

Uyu n'umuhinzi uri kurobanura imbuto yo guhinga, hakaba hari n'abikorera ifumbire y'imborera bayijyana mu murima mu bice bitandukanye, uyu akaba ari kurobanura imbuto kugira ngo azabashe kuyihinga, yizeye ko iyo yahinze yose izamera.

Imbuto z'ubunyobwa. Ubunyobwa kikaba ari igihingwa ngandurarugo ndetse kiba n'igihingwa ngengabukungu kuko kidahingirwa kuribwa gusa kikaba gihingirwa no kuba cyagurishwa kikinjiriza uwagihinze ni ikiribwa kishobora kuribwamo impeke ndetse kikaribwamo no mu buryo bw'amafu.

Abo bahinzi basarura imitwe y'umuceri kugira ngo bayishyire ahabugenewe, mu buryo bwo kugira ngo yume izabone uko ikurwa mu byatsi byayo.

Izi ni imbuto z'ingano akaba ari imbuto zihingwa. Iyo zeze zikorwamo amafu atandukanye, ndetse zikaba ari na zimwe amafu yazo yifashishwa mu gukora imigati ndetse n'amandazi.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye , harimo amasafuriya mande y'isafuriya, hari akadobo gasa n'ubururu hirya hari amabase afite amabara atandukanye. kamo asa n'ubururu wagana asa n'icyahane asa n'umutuku. Hirya hakaba hari ibikapu, hejuru hakaba hari imyenda.

Aba ni abahinzi bari kurobanura imbuto yo gutera, kugira ngo bazabashe gutera imbuto nzima, ndetse no kugira ngo babashe kuzibika zumye urabona ko bari bazanitse.

Aba ni abahinzi n'aborozi bari gusarura imyaka bayijyana mu buhunikiro, aha bamaze gusarura ibihingwa, bari kugira ngo bajye kubibika ahabugenewe bidashobora kwangirika no guhungabana.

Ikindi gihingwa kizwi ku izina ry'ibishyimbo, akaba ari igihingwa ngandurarugo, ndetse kikaba n'igihingwa ngandurabukungu, ni igihingwa gishobora kuribwamo imiteja, ndetse kikaba cyanaribwamo imisorwe, babisogoramo ibishyimbo, ndetse bishobora no gukoreshwa mu byuma.

Uru ni urubuto rugaragara kuva rugishyirwa mu itaka kugeza rugeze hejuru rupfunduye ibabi rya kabiri ndetse n'imizi yarwo. Uru ni urubuto rugaragara kuva ku munsi wa mbere kugeza ku minsi cumi n'itanu rutewe.

Uru ni urubuto ruri mu itaka bikaba bigaragara ko ruri kumera, Rukaba rutarashora imizi yose ngo rujye mu butaka, aho uru buto rumaze kuva ku minsi, ku munsi wa mbere ruterwa kugeza ku minsi itanu.

Izi ni imbuto z'ibihwagari ziri mu mufuka, zikaba zitegereje guhingwa cyangwa se gukoreshwa ibindi bintu bitandukanye, birimo no kuba zaribwa.

iki ni igihingwa cy'amasaka kikaba kibarizwa mu binyampeke. Kikaba ari igihingwa ngengabukungu, ndetse kikaba kinifashishwa mu kuba cyavamo amafu y'ibikoma, ndetse bikaba igikoma cyabyo cyongera amaraso kikaba cyanarinda indwara.

Iyi ni ihene itungo ryo mu rugo ribana n'abantu, ritanga umusaruro wo kubyara, ndetse n'inyama. Aha iyo ryarwaye rikenera umuvuzi ari we veterineri.

Ubuvuzi bw'amatungo, izi zikaba ari inkoko inyamaswa zibarizwamo. Ziri mu nyamaswa zitera amagi, ndetse mu biguruka.

Umuganga w'amatungo waruri kuvura ingurube, inyamaswa y'inyamabere ikaba ari inyamaswa izwiho kubyara ibyana byinshi ndetse uko ibibyaye akaba ari nako ibyonsa.

Ingagi nkuru iri kumwe n'umwana wayo, ikaba imwe mu nyamaswa ziba mu mashyamba y'ibirunga aherereye mu Ntara y'Amajyaruguru. Ni inyamaswa ikurura ba mukerarugendo, bakaza bazanye amadovize, yinjira mu gihugu agakoramo ibintu byinshi bitandukanye.

Iyi ni inyamaswa y'inyagasozi iba mu mashyamba, ndetse no mu bindi bice by'imisozi. Ikaba ari inyamaswa izwi ku izina ry'inkende cyangwag se igitera.

Iyi ni inyoni, inyamaswa y'inyagasozi ibarizwa mu biguruka, ikaba ari inyamaswa itera amagi ndetse ikaba iba mu cyari, iba mu ishyamba ikunda kwarika mu biti bitandukanye.

Iyi ni inyoni ikaba inyamaswa ibarizwa mu bwoko bw'ibiguruka ikaba iba mu ishyamba mu biti byubaka inzu y'ibyari akaba ariyo ibamo ntibana n'abantu mu rugo yo iba mu ishyamba.

Uyu ni umusambi, inyamaswa ibarizwa mu biguruka, ndetse ikaba inabarizwa mu nyamaswa zitera amagi. Ni inyamaswa y'inyagasozi, ikaba yibera mu ishyamba.

Iyi ni inyoni ibarizwa mu biguruka ndetse bitera amagi, ikaba ari inyoni iba mu ishyamba cyangwa se inyamaswa y'inyagasozi, izwi ku izina ry'inuma. Iba mu ishyamba, ikaba ari inyamaswa itera amagi, ndetse ikanarura nk'uko inkoko zibikora.